Iyi shusho igaragaza iduka ricuruza imyambaro y'abagore harimo amashati ,amapantaro ndetse n'amataratara .Ikaba kandi ifite urukuta rw'umukara n'ibyuma bamanikaho imyenda by'umukara.

Iyo shusho igaragaza inote z’amafaranga y’manyamahanga arimo iza bibiri igihumbi, ibihumbi bitanu, ndetse na magana atanu, ndetse n’ibihumbi icumi.

Iyi shusho igaragaza inzu imeze nk'uruganiriro harimo intebe ziri mu ibara ry'ubururu imisego iri mu ibara ry'umweru ku rukuta hakaba ari ishusho ku nkingi yo ku ruhande hakaba hari isaha kumezaeza ari ruguru y'intebe hari mudasobwa ndetse n'intebe iri imbere yayo ku meza ariho mudasobwa hakaba hatatseho ibintu bitandukanye.

Iyi shusho igaragaza isoko ririmo abantu benshi higanjemo abagore bacuruza inyanya, intoryi, imiteja, karoti.

Iyi shusho igaragaza icyumba kirimo uburiri, ndetse n'indorerwamo, n'intebe yo kwicaraho, uri kureba mu ndorerwamo, ndetse n'urugi rujya hanze.

Iyi shusho igaragaza inzu ifite ibaraza n'igisenge, ikaba ihagaze agaciro k'amafaranga y'amadorari angana n'ibihumbi mirongo itandatu na bitanu, ikaba iherereye i Kanombe.

Iyi shusho igaragaza inzu irimo igikoni ndetse n'icyumba kimwe cyo kuraramo kandi ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri y'u Rwanda ku kwezi, ikaba iherereye Kacyiru, muri Kigali.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye harimo abagabo batatu umugore umwe umugore arimo aratunda imifuka y'ibiryo umugabo arimo arareba muri terefone yambaye umupira wumuhondo iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'ubururu inyuma yumugore hari umugabo wambaye ishati y'umukara .